Akarima k'igikoni keza cyane kubatswe neza kakaba gateyemo imboga ndetse n'ibitunguru, hakaba harimo dodo ndetse n'amashu.

Abantu bari mu bigori bose bakaba bafite udufuka turimo ifumbire y'imvaruganda, barimo kugenda banyanyagiza imvaruganda iruhande rw'ikigori kugira ngo kizakure neza.

Umubyeyi arimo gufata ifumbire y'imborera akayishyira mu kidobo akayikorera akayijyana mu murima kugira ngo ahinge maze azeze.

Inyubako nziza cyane ikaba irimo botike, iyi bodike ikaba icuruza imiti, imirama ndetse n'ibindi bintu byose bigendanye n'ubuhinzi cyangwa ubworozi.

Etajeri irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amacupa arimo imiti, hakabamo n'ibikarito bibitswemo imirama yifashishwa mu gutera imbuto.

Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu bikorwa ushobora gukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ugatera imbere ku rwego rushimishije kuko buri munsi inkoko ziratera kandi igi rigura amafaranga atari make.

Abantu babiri bari mu bigori, umwe yambaye ingofero itukura ndetse akaba ahetse ipombo arimo kugenda atera umuti, iruhande rwe hari undi nawe uhetse ipombo y'umuhondo nawe ari guca mu rundi ruhande, hari undi uhinguka ahagana hirya imbere.

Etajeri irunzemwo amacupa ari mu moko atandukanye no mu mabara atandukanye, ndetse hejuru ya etajeri harambitsemo rozwara eshatu, ndetse hari umuntu wicaye kuri kontwari afite mudasobwa.

Ubuhinzi n'ubworozi bugira umusaruro ukomeye ndetse utandukanye. Iyo tuvuze nk'inka zigira amata meza azanwa ku isoko ndetse zikagira n'amavuta, byose bikaba ari ibintu nkenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Etajeri irimo ibihingwa bitandukanye, ariko bikaba ari ibihingwa by'imirama. Ni ukuvuga ibyo ugura ukagenda ugahombeka, nyuma ukazabona imbuto zo gutera.

Ni mu iduka gusa iryo duka ntiricuruza umunyu, ntiricuruza isabune yemwe ntiricuruza n'amata yo kunywa ahubwo ricuruza imirama yo guhinga=, imiti yo gutera ibihingwa ndetse n'amapombo yo gutera imiti ibyo bihingwa.

Abaturage babyutse iya rubika ni mugitondo kare barimo gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bigori byabo, ibyo bigori ni byiza cyane biratoshye bigaragara ko byitaweho kandi byitezweho ko bizatanga umusaruro uhagije.

Isoko cyangwa iduka ririmo ibicuruzwa bishingiye ku buhinzi. Harimo rozwara zo kuvomera ndetse harimo n'imiti itandukanye yica udukoko dufata imyaka.

Akabati cyangwa aka etajeri karimo ibintu bikomoka cyangwa se bigendanye n'ubuhinzi, harimo za ruzwara zo kuvomerera, hakabamo imiti yo kwica udukoko mu bihingwa ndetse hakabamo n'imirama yo gutera.

Abantu bari kuyobora imyanda bose bambaye bote ndetse bambaye amataburiya aranga akazi kabo, bikaba ari ibintu bigaragara ko bari gufata iyi imyanda bakayirunda ahantu hamwe ikazifashishwa mu gukora ifumbire.

Akabati karimo ibintu bitandukanye bicuruzwa, ibyo bintu byose bikaba bigendanye n'ubuhinzi, harimo amacupa apfunyitsemo imirama yo guhingwa, harimo ruzwara zo kuvomera, hakabamo amapombo yo gutera umuti ibihingwa.

Inyubako irimo icyumba, icyo cyumba kikaba kirimo etajeri, iyo etajeri ikaba irimo ibintu bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buhinzi, harimo imiti, hakabamo n'imirama.

Intoki z'umuntu zifashe ifumbire y'imborera iboze neza ndetse bigaragara ko harimo n'udukoko nk'iminyorogoto, mu bykuri iyi fumbire niyo yifashishwa mu guhinga ibihingwa igihe aribwo bakibishyira mu butaka

Imifuka myinshi cyane ipanze ku murongo, ikaba ifite amabara atandukanye ndetse ikaba ibitswemo amafumbire y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu buhinzi.

Imyumbati irunze ahantu hamwe, gusa uko bigaragara ntabwo ari imiribwa, ahubwo ni imyumbati bacukuye ku giti cy'isombe, iyi myumbati irarura cyane uyiriye wapfa.

Umurima bigaragara ko uhinzemo urutoki ndetse hakaba hateyemo n'indi myaka, ni umurima munini ndetse ukaba ufite igice gihinze n'ikindi kidahinze.

Ibiganza by'umuntu birimo gusoroma ikawa, bikaba bifite icyo biri kutwigisha kuko ikawa ari igihingwa cyiza cyane, twakitabira guhinga.

Inyubako nziza cyane igaragaza urukuta rw'amatafari, ariko imbere yarwo hakaba hari umurima w'igikoni uteyemo imboga ndetse na dodo.

Umugabo wambaye bote yibereye mu bigori, arimo kuvovora kimwe, ndetse akaba yiteguye kukijyana mu rugo ngo acyotse, maze yumve ukuntu kinurira.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, gusa akaba ari umurima uri ahantu ku gasozi ndetse wegeranye n'amashyamba, bisa nkaho udashobora kwera bihagije.

Ikawa ryinshi cyane ryegeranye rikiri ritoya bigaragara ko riri ahantu muri pikinyeri, rikaba rigeze igihe cyo guterwa, ndetse abaturage bakaba biteguye kuzaza kurijyana.

Imyumbati itarakura cyane, ariko na none itari mitoya ni imyumbati y'ubwoko bumwe bwa kizungu, ikaba ikunda kuryoha.

Ibiganza by'umuntu bifashe ku ikawa rikiri ritoya ritarakura, bikaba bigaragara ko barihingiye neza bashigaje kurisasira, mu by'ukuri iri kawa rikaba ritoshye risa neza kuko ryitaweho.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, by'umwihariko ku bantu bahinga urutoki, kubera ko urutoki rushobora kuguteza imbere haba mu mirire ndetse no mu bukungu.

Imboga zihinze mu kabande zikaba ziteye ku murongo zirimo ibitunguru ndetse hakaba hari n'umurima uhinzemo inyanya. Ibi byose bikaba biteganyijwe ko bizera mu mpeshyi.

Ibigori byiza cyane bikiri bitoya ndetse ubona ko byitaweho kuko bibagariye, bikaba bihinze mu murima wegeranye n'ishyamba.

Ibigori byiza cyane byumye byakusanyirijwe ahantu hamwe, bikaba bitegereje guhungurwa, hanyuma bikajyanwa ku nganda kugira ngo bikorwemo amafu.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, gusa bikaba bikiri bitoya bitarakura, uyu murima ukaba waragiye usaduka bitewe n'isayo yawumiyemo.

Urutoki rwiza cyane rukaba ari urutoki rugezweho ndetse ruhingiye bashigaje kurusasira gusa, gusa uru rutoki ntago ruratangira kwera.

Urusenda ruhinze ahantu mu murima rusasiye neza cyane, rukaba rwegeranye n'indi mirima ihinzemo ibigori, hari ibyamaze gusarurwa ndetse hari n'ibindi bitarera.

Ibitoki birunze hamwe byasaruwe mu rutoki rw'umuhinzi wabigize umwuga, akaba ari kwerekana igitoki kimwe kirimo kinini gipima ibiro biri hejuru ya mirongo inani.

Umugabo usa neza rwose urimo kwita ku matunda, bigaragara ko yahinze amatunda ndetse akaba ari amatunda meza cyane si ibyo gusa kuko hahinzemo n'ibishyimbo bigufiya.

Ikawa rikiri ritoya ubona ko ritoshye kandi ryatangiye kuyanga bitewe n'uko ari irya kijyambere, rikaba rimaze guhingirwa hasigaye kurisasira.

Umurima uhinzemo ibigori. Ukaba warahuye n'umuyaga mwinshi, ibigori byose bikaba byarunamye. Umuhinzi wabyo arimo kugenda abyitegereza, abyegura.

Muri pikinyeri ni ho abantu babanza gutunganyiriza imbuto, aho bazihombeka bakazishyira mu bihoho zigakura, hanyuma bakazijyana kuzitera mu murima wabugenewe.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye. Gusa higanjemo urutoki. Urwo rutoki ni rwiza ruratoshye, ariko ntiruratangira kwera.

Ikiganza cy'umuntu gifashe imvaruganda mu ntoki, iyi ikaba ari ifumbire itangwa na tubura yifashishwa mu gutera imbuto, bityo bigatuma umusaruro uba mwinshi.

Amacupa bigaragara ko afungiyemo imiti, akaba ateretse hamwe n'ibikarito na byo bifite amabara asa n'ayo macupa, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Mu buhinzi hakoreshwa amafumbire agiye atandukanye hari amafumbire y'amafu, ayo twita amashwagara, hari amafumbire mvaruganda ndetse hari n'imborera.

Umurima utunganyije neza ni wo uhingwamo, gusa iyo duhinga twifashisha imvaruganda kugira ngo tuzabashe kwiza ndetse tugire umusaruro utubutse.

Umuti uri mu macupa, uyu muti ukaba uri mu macupa atatu ateganye ndetse ukaba ari umuti uterwa mu bimera mu gihe cyose hari udusimba twatangiye kubyibasira, by'umwihariko bawutera ku ntoryi, inyanya ndetse n'ibindi bihingwa.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho amagambo arimo n'imibare. Iki cyapa kikaba gifite ubusobanuro bw'uko kigiye cyanditseho ibyifashishwa mu guhinga.

Ingurube zigera muri eshanu, ni ingurube nziza cyane za kizungu zirimo igisekurume ndetse n'ibinyagazi, hakaba hari umufuka inyuma yazo ushushanyijeho ingurube, bivuga yuko harimo ibyo kurya byazo.

Ingurube zirororwa. Ariko mu by'ukuri, hirya no hino abaturage borora ingurube, bakazifata nabi nk'itungo riraho ngaho. nyamara, iyo uryoroye neza, ukazana aba veterineri bakajya bagufasha kuryitaho, ukirigita ifaranga.

Abantu barimo kubaka akarima k'igikoni. Bafashe imifuka, barayizengurutsa ndetse bashingaho ibiti. Bakaba bari kugenda bashyiramo ubutaka imbere muri iyo mifuka.

Leta y'u Rwanda, yashyizeho gahunda yo gukora umuganda. Niyo mpamvu abaturage, bazinduka buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Maze bakajya guharura imihanda, bagasiza ibibanza, ndetse bakubakira abatishoboye.

Umuntu bigaragara ko ari umuturage w'umugabo, wambaye inkweto za bodaboda, ishati y'ubururu, akaba ari mu rutoki, arimo gutongora intabire agiye guteramo imyaka.

Umuntu w'umugabo wambaye agapira keza cyane, akaba yambaye ingofero ndetse n'ipantaro y'umukara arimo kuvomera cyangwa gutera umuti ku birayi, akaba ari imbere y'urutoki.

Umuhinzi w'ibigori ari mu murima we; arimo arerekana uburyo ibigori bye byeze neza kandi buri kigori cyagiye giheheka bibiri. Mubyukuri ibyo byose akaba abikesha ifumbire y'imvaruganda yakoresheje.

Umubyeyi wambaye igitenge, akaba yambaye n'umupira w'umuhondo; arimo gutera ibishyimbo, ari kubitera ahantu mu ntabire harimo n'insina nkeya.

Abagore babiri barimo gukubura barunda umuceri bamaze guhura ndetse bakaba ari uwo barunze ikirundo kinini, hari abandi bagabo na bo barimo kugenda babafasha, uko bigaragara bagiye kuwujyana ku ruganda.

Abahinzi barimo guhinga, gusa bigaragara ko aho bahinga ari hanini cyane ndetse ni umurima wegereye ishyamba ariko mu by'ukuri bakaba bizeye neza ko bazabona umusaruro.

Umuntu w'umugabo ari imbere y'uruzitiro ndetse akaba afatishije ukuboko kamwe ku giti, bigaragara yuko barimo gukora ifumbire izifashishwa mu gufumbira imyaka bahinga.

Abahinzi bazindutse kare kare mu gitondo, barimo guhinga babagara imyumbati, gusa bagiye guteramo n'iyindi myaka kuko imyumbati iteyemo amahunge.

Abantu barimo guhinga bigaragara ko bahinga ahantu mu kabande ndetse iruhande rwabo hari ibiti byinshi cyane, bateranye babiri bafite amasuka, abandi batatu nta kintu bafite.

Abaturage bazindutse kare cyane, bari gukora umuganda bagenda basibura imigenda, ndetse baharura n'umuhanda kugira ngo bafashe igihugu cyabo kugira isuku.

Abaturage bari gukora akarima k'igikoni, bakaba bari kugenda bateramo imboga z'ubwoko butandukanye nka dodo n'izindi, kugira ngo bajye bakifashisha mu gihe bakeneye imboga.

Umuntu arunamye yambaye ijipo ndetse yambaye umwenda w'umukara hejuru, amaze gukata insina akaba arimo gusasira imbuto ziteye mu rutoki, ndetse bigaragara ko ari insenda.

Umuhinzi arimo guhinga umurima ndetse akaba ari guhinga anabagara ibigori biteyemo bigaragara ko aho arimo guhinga havuyemo indi myaka yamaze gusarurwa.

Abahinzi bari mu murima barimo guhinga ndetse bigaragara ko barimo gutabira, bakaba bagiye guhinga imbuto, aho barimo kugenda bakuramo ibyatsi babirunda inyuma yabo.

Abahinzi batanu abagore batatu ndetse n'abagabo babiri, barimo gutabira ndetse bamaze kugira umubyizi rwose, bakaba barimo gutabira imyaka kuko igihembwe cy'ihinga cyageze.

Abantu benshi cyane babyutse mu gitondo kare kare, bakaba barimo guharura umuhanda bakora umuganda. Iyigiyi akaba ari gahunda yashyizweho na leta mu rwego rwo kwiteza imbere binyuze mu kwigira.

Abantu bambaye imipira isa y'icyatsi kibisi, iriho n'ibirangantego bibiri, bakaba bari haruguru y'inzu yubakishije amategura, bakaba bari kwigisha umuturage gukora akarima k'igikoni.

Umuntu bigaragara ko ari umugore cyangwa umukobwa, arimo gutera imbuto ndetse izo mbuto zikaba ari ibiti bya voka.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo, amaze gutunganya umurima we none arimo gupima kugira ngo ateremo imbuto, ubu ngubu akaba ari uburyo bwo kwirinda akajagari.

Umuntu w'umubyeyi ari gutabira, aho ari gutabira hahinzemo ibigori ariko ni kimwe kimwe, bigaragara ko hari indi myaka basaruyemo, akaba ari guhatabira kugira ngo azahingemo ibindi bihingwa.

Imifuka ipanzemo amafumbire y'ubwoko butandukanye, harimo ayo gutera ndetse n'ayo kwifashisha mu gihe cyo kubagara igihingwa cy'ibigori.

Avoka zirunze ahantu ubona ko ari nyinshi cyane. Izi avoka zikaba ari mbisi, aho zigiye kujyanwa ku isoko kugira ngo abantu bazigure bazazirye.

Ibijumba birunze ahantu ku byatsi. Ni ibijumba byiza binini, bikaba bizwiho ku izina rya poloje. Mu by'ukuri bikaba ari ibijumba bitukura inyuma, ndetse bikaba biryoha cyane bigira amafufu.

Abantu bari mu gishanga barimo guhinga. Abandi bikoreye imifuka y'ifumbire, bari kugenda bayitura aho bamaze guhinga, kugira ngo bazabashe guteramo imbuto.

Ibitebo byinshi by'inyanya zazanwe ku isoko n'abahinzi bazihinze, bitondetse hamwe ahabugenewe, bikaba bitegereje abaza kubigura kugira ngo umuhinzi na we atahane amafaranga yavunikiye.

Ibigori byanitse mu bwanikiro rusange, bikaba bitegereje kuma, kugira ngo bizifashishwe mu gukorwamo amafu.

Ibijumba bironze neza byazanwe ku isoko, bipakiye mu mifuka hari n'ibisutse hasi ndetse hari n'ibindi biri mu ibasi itukura, byose bikaba bitegereje abakiriya.

Ibirayi birunze ahantu ku mbuga bimaze gukurwa, ndetse bikaba bigiye gupakirwa mu mifuka, kugira ngo bijyanwe ku isoko, hanyuma abaguzi bazabashe kubibona neza.

Inyubako nziza cyane ifite uburyo yubatsemo, ku buryo inzu zayo zigiye ziteganye. Ikaba ari inyubako ifite imiryango y'ubururu ndetse kuri buri gikuta hakaba hamanitseho icupa ririmo kizimyamoto. Imbere y'iyo nyubako hari imbuga ngari cyane irimo agacanga.

Imifuka myinshi cyane irunzemo umuceri wamaze guhurwa, ukaba uri gutegurwa kugira ngo ujyanwe ku ruganda hanyuma utunganywe uzabashe kwifashishwa ku isoko.

Ku isoko ry'abagore uzahasanga ibicuruzwa bitandukanye ariko nugera ku biribwa uzitonde kuko uzahasanga amaronji meza, pome nziza cyane, imineke iteye amabengeza, uzahasanga inkeri, amatunda ndetse n'ibindi.

Umuturage yanitse umuceri kuri shitingi ndetse arimo kuwukorakora kugira ngo ubashe kuma. Inyuma ye hari abandi baturage bafite imifuka biteguye kuwupakira, hanyuma bakawujyana ku ruganda.

Imbuto zihinze ahantu mu kabande, bigaragara ko ari intoryi, zitangiye kuzana imiteja ndetse zikaba zisa neza, zitoshye cyane.

Isoko rinini cyane ariko ricururizwamo ibirayi gusa, harimo ibirayi byinshi birunze ku bitara, ndetse harimo n'umuntu umwe gusa ucuruza ibyo birayi, hamanitse n'iminzani yifashishwa mu kubipima.

Umurima uhinzemo ibigori, bakaba bamaze kubibagara ndetse hakaba harimo n'insina, izo nsina nta bitoki zifite, ahubwo zifite amakoma atoshye, mu minsi iri imbere zishobora kuzanaho ibitoki.

Abagabo babiri umwe yambaye isarubeti y'umuhondo undi yambaye iy'ubururu, barimo gusuka umuceri hasi kuri shitingi, bagiye kuwutunganya kugira ngo uzavemo ibizifashishwa mu gutanga ku isoko.

Ku isoko harunze amakarito arimo avoka. Izo avoka ni iza kijyambere nk'uko bigaragara ndetse zirasa nk'izizaryoha, mu by'ukuri zikaba zitegereje kugurwa.

Ibigori birunze ndetse birunze mu mifuka, hakaba hari n'ibitiritiri byavuweho n'ibyo bigori bahunguye bikaba bigiye kujyanwa mu nganda ngo bikorwemo za kawunga.

Abagore benshi cyane bahuriye ahantu hamwe hanitse ibigori biri kuri shitingi, bakaba barimo kugenda babisanza kugira ngo akazuba kabigereho, bigaragara ko ari koperative yabo.

Uruyuzi rwitwa igishayoti rwakuze rukarandaranda ku biti ndetse rukaba rutoshye ariko rukaba rutaratangira kuzana ibihaza.

Igiti kinini cy'umwembe, gifite imyembe mikeya ndetse ikaba itarera, iki giti kikaba giteye ahantu mu murima ndetse inyuma yacyo hari ibindi biti bihinguka.

Umurima uhinzemo ibishyimbo, ukaba ari umurima urimo n'isina ndetse wegeranye n'ibiti birebire by'inturusu, bikaba bishobora gutuma utera.

Ishyamba rikuze ririmo ibihuru byinshi cyane, ariko rikaba ryiganjemo ibiti bya kimeza. Ibi biti bikaba bikunze kuba ahantu hatagera abantu babyangiza.

Abantu benshi cyane bahuriye kuri pepiniyeri, baje gutora imbuto z'ibiti bitandukanye byifashishwa mu kuvangwa n'imyaka ndetse bikavamo imbuto zo kurya.

Ibiti binini, birebire, bifite amababi, ndetse n'amashami, biri iruhande rw'inzu y'umuturage. Ibiti bikaba bizana akayaga ndetse n'amahumbezi mu rugo rw'uyu muturage.

Igiti kirekire gifite amashami azamutse hejuru mu kirere, ni igiti ubona y'uko gifite amababi menshi, hari umuntu uri kugenda hafi yacyo ndetse hari n'umuryango w'inzu uri guhinguka.

Muri bikinyeri ni ahantu bahombeka imbuto zitandukanye mbere yo kugira ngo zijye guterwa. By'umwihariko hakunze guhumekwa ibiti bitandukanye. Ibirimo turi kubona na byo, bikaba byarakuze cyane, byararengeye igihe cyo guterwa.

Igiti cy'amatunda, kikaba kiri mu murima bigaragara ko wari uhinzwemo indi myaka ndetse hakaba hagaragara urutoki narwo ruri hafi y'ibiti.

Ibiti bya kijyambere byeraho voka, ni ibiti usanga bizwiho kwera bikiri bitoya, ku buryo usanga agati gatoya gafite voka nyinshi zakajeho kandi zose zikera neza mu gihe gitoya.

Ishyamba ririmo ibiti by'inturusu ariko byagwingiye, hakaba harimo n'ibindi byatsi byimejeje ndetse bigaragara ko byaba utwatsi twiza tw'inka, ni uko kuragira byaciwe, nari kuzajyanayo inka yanjye nkayiharagira.

Imigwegwe ikaba iri ahantu mu gihuru, icyo gihuru kikaba gifite ibiti bikeya by'inturusu ndetse imbere y'imigwegwe hari ibyatsi bisanzwe.

Igiti kirekire kinini cya pinusi kikaba kiri mu ishyamba, iryo shyamba rikaba rifite n'ibindi biti byinshi. Hari amababi ya pinusi yamanutse akaba yarirunze hasi.

Igiti kibyibushye cyane cy'inturusu, ubona yuko gishaje kimaze imyaka myinshi. Kiri ahantu mu ishyamba, bigaragara ko hari ibindi biti inyuma yacyo bikuru, birebire ndetse byeze.

Insina cyangwa urutoki, biri mu murima mwiza cyane ariko harimo ibyatsi byinshi bigaragara ko uru rutoki rudaheruka guhingirwa nyamara nyirarwo akeneye kurwitaho kuko rwari rwiza.

Hari ibiti byinshi cyane, bivangwa n'imyaka maze bikagira uruhare mu gufata ubutaka, ku rwego rwo kwirinda isuri, ndetse bimwe na bimwe bikaba ubwatsi bw'amatungo, ndetse bikifashishwa no mu gutanga imiti.

Ubuhinzi bw'amateke ni ubuhinzi ushobora guhinga ugashyiramo n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'aho umuturage ahinga amateke hanyuma agateramo n'amatunda y'ibiti byose bikera kuko amateke ya mbere, amatunda akazera nyuma.

Umuntu w'umugabo ari mu ishyamba ahetse igikapu. Bigaragara yuko iryo shyamba rifite ibiti binini cyane bibyibushye byakuze ndetse bikaba byeze rwose.

Amagaba cyangwa imigwe ni ibimera bidakunze kuboneka aho ariho hose, gusa icyo wabimenyaho ni uko byifashishwa mu kubona indodo ziboha ibiziriko ndetse n'ibindi bintu.

Ubuhinzi ni bwiza cyane gusa abantu bahinga ibitandukanye hari umurima uteyemo amashu ayo mashu ari hafi kwera harimo n'ibiti bitandukanye bivangwa n'imyaka birebire.

Ibimera bimeze nk'igikakarubamba. Ariko bikaba ari amagaba, akaba yifashishwa mu buryo bwo gushaka indodo zo kuboha ibintu bitandukanye, nk'ibiziriko.

Ni mu gihuru harimo ibiti bya kimeza, harimo ibihuru bitandukanye, harimo ibiti by'amasederi, ndetse n'ibindi by'amoko yose, aha ngaha hakaba ari ahantu, hakunze kwifashishwa bajya gukurayo imiti.

Ikimera gikuze ubona ko gitoshye cyane, kikaba ari ikimera gikunze kwifashishwa nk'umuti ariko kandi kikaba ari ubwatsi bw'amatungo amwe n'amwe.

Umurima bigaragara ko uhinzemo ibintu byinshi cyane, hakaba harimo ibigori, amatunda ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Ibimera biri ahantu bigaragara ko ari inyuma y'urugo rw'umuntu ndetse muri ibyo bimera hakaba harimo amateke n'izindi myaka zihahinze, hari ibiti bya gereveriya birebire cyane bikunze kuvangwa n'imyaka.

Umurima uri mu kabande uhinzemo karoti, ni umurima bigaragara ko wera cyane ndetse iruhande rwaho hakaba hari undi murima uhinzemo ibigori.

Umurima uhinzemo ikimera kimwe gusa. Iki kimera kikaba gifite indabo ndetse zitukura. Kikaba gifite amababi atoshye, bigaragara ko ari igihingwa cyahinzwe n'abaturage bakizi neza.

Umuntu w'umugabo afite igihumbeko yahumetsemo imbuto, akaba amaze kugitwikurura, kugira ngo mu minsi iri imbere izi mbuto azazigemurure ajye kuzitera aho yateguye.

Avoka zirunze ahantu hamwe. Zikaba ari mbisi ndetse zikaba zitegereje kujyanwa ku isoko. Izi avoka, ni izo mu bwoko bushya cyangwa se ni iza kijyambere.

Igiti kinini cyane cya avoka, bigaragara ko gisa nkaho gishaje ndetse kikaba giteye mu rupangu rwubakishije amatafari ahiye, hejuru rusizeho sima.

Ibitunguru byazanwe ku isoko, birambitse ku gitanda ndetse bikaba bironze ku mufuka, hari umunzani wo gupimisha kugira ngo ukeneye ikiro cyangwa bibiri bakimuhe.

Abaturage benshi bazindukiye ku muhanda aho baje gufata imbuto zibiti kugira ngo bajye kubitera, babivange n'imyaka bityo biririnde isuri ndetse babone ubwatsi bw'amatungo.

Puwavuro, inyanya, dodo ndetse n'insenda. Byazanwe ku isoko bikaba bitegereje ko abaguzi baza kubigura ngo babijyane mu ngo zabo.

Imineke irambitse ku gitenge hasi, ikaba ari imineke myiza cyane ihiye ndetse bigaragara ko iryoshye, icyo gitenge irambiteho gifite amabara atandukanye.

Akarima k'igikoni kagize uruhare mu gukemura ibibazo bishingiye ku mirire, by'umwihariko mu bigendanye no kubona imboga zifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye.

Muri pipinyeri hari ibiti by'avoka byateguwe neza bikaba bigeze igihe cyo guterwa. Abaturage ni ho baza kubifatira, hanyuma bakajya kubihinga mu mirima yabo.

Akajaride keza cyane gahinzemo indabo gusa zikaba zitarakura ngo zifatane, ziratoshye, zitaweho gusa zikeneye kubagarwa kubera ko hajemo ikigunda.

Kuri pikinyeri, hahombetse ikawa ryinshi. Iri kawa rikaba ryarateguwe neza, ndetse rikaba rigeze igihe cyo guterwa. Abantu bakaba biteguye, ndetse baratunganyije imirima yabo.

Urugo rw'umuntu rukwiye kuba ruri ahantu hisanzuye kandi hagari ku buryo abafite n'akarima gahinzemo imboga ariko benshi bita akarima k'igikoni.

Tubura ni Ikigo cyafashije Abanyarwanda benshi kwikura mu bukene binyuze mu kubaha imbuto nziza z'ibihingwa bitandukanye kugeza nubwo batanze ibiti by'avoka by'ubuntu bigezweho byera mu gihe gito kandi bikiri bito.

Dodo zisoromye ndetse zikaba zirunze ahantu hamwe, zigiye gutekwa cyangwa kujyanwa ku isoko, mu by'ukuri kurya dodo ni byiza kuko birinda indwara.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo zikuze ariko zikeneye gukatwa ndetse hakaba harimo urucaca rwiza cyane, haragaragara inyubako isize amarange y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari y'impunyu.

Umurima uteyemo ibintu bigiye bitandukanye, ariko bakaba bamaze kuwuhinga neza. Uri iruhande rw'ibiraro by'amatungo, ndetse bisobanuye ko ifumbire itava kure.

Ibihaza biri ku isoko bikaba bitegereje abaguzi ndetse hakaba hari ikiganza cy'umuntu umwe cyafashe ku gihaza kimwe, akaba agiye kukigura ngo ajye kugiteka.

Karoti nziza cyane, bigaragara ko ziri ku isoko, zikaba zirunze kuri shitingi, hakaba hari n'izindi zipakiye mu mufuka w'umweru, hakaba hari n'ibasi iri iruhande rwa karoti.

Pavuro zirambitse ku gitenge, icyo gitenge kikaba gifite amabara atukura, umweru, umukara harimo n'uturongo tugiye tumanutse, bigaragara ko ari pavuro nziza cyane.

Indabo nziza z'umuhondo, ziri ahantu bigaragara ko hari urucaca rwamezemo ibindi byatsi, mu by'ukuri bikaba atari ibintu byiza.

Imyembe y'imirundi irunze ku gitara cyo mu isoko, ikaba ari imyembe iryoha cyane, gusa abacuruzi bayo bategereje uwaza kuyigura.

Intoryi zihinze zisasiye neza ndetse ubona ko ziri ahantu mu kibaya, hakaba hahinze n'ibisheke iruhande rw'umugenda ndetse hakaba harimo n'ibiti hagati mu murima.

Dodo ziri mu karima k'igikoni, zikaba zisa neza cyane ariko harimo urutoryi rumwe rwamezemo hagati. Ibi bikaba ari ibintu byiza kuko nyirazo azajya azibona hafi ataziguze.

Igihe cyose umaze kurya ibiryo bisanzwe, ni byiza ko urenzaho imineke cyangwa akavoka. Kubera ko ari bimwe mu bintu bifasha ubwonko gutekereza neza, ndetse bigafasha no mu kwibutsa, no gukangura neza imisemburo y'ubwonko.

Ibasi y'umutuku irunzemo icyo twita tangawizi, ndetse ikaba irimo n'umufuka uzinze, bigaragara ko ari ku isoko bakaba bategereje abaguzi.

Amatunda ahinze mu murima ndetse akaba ahembeye. Ni amatunda y'imigozi akiri matoya atangiye kurandaranda, akaba atoshye asa neza cyane.

Ibitunguru biri ku isoko, birunze muri etajeri, ndetse hari ibasi yashaje kuko yaranaturitse, hakaba hari n'izindi mboga zitandukanye.

Ibitunguru ni bimwe mu bihingwa bikunze guhingwa n'abanyarwanda benshi. Gusa iyo byageze ku isoko, usanga byarunzwe ahantu hamwe. Ubishaka akajya aza, apimisha yishyura.

Voka zirunze mu bintu bigera muri byinshi cyane, zikaba ari mbisi ndetse zarasaruwe zigiye kujyanwa ku isoko kugira ngo zizatunganywemo ibyo kurya.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibihingwa by'umwihariko nk'imbuto zitandukanye gusa hari ikitwa ikibiringanya, abenshi bakunze kucyitiranya n'intoryi bitewe n'uburyo kitwaye.

Ibitunguru byinshi cyane birunze ahantu mu isoko, bikaba bitegereje ko abaguzi baza kubigura kugira ngo bajye ku biteka, ibi bitunguru bikaba ari byiza ndetse byaritaweho igihe byahingwaga.

Ikibaya gihingwamo umuceri. Kikaba gifite umuceri ukiri mutoya utarazamuka, ukaba ukirimo kwitabwaho kugira ngo uzatange umusaruro uhagije.

Akajaride karimo indabo zitandukanye zitarakura ndetse kakaba kari iruhande rw'inzu, iyo nzu yubakishije ibikuta bifite amabara y'umutuku ndetse bikaba bifite n'inkuta na none zubakishijwe amatafari ahiye.

Intoryi zisoromye zirunze ahantu mu cyumba bigaragara ko zigiye kujyanwa ku isoko, zikaba ari intoryi nziza cyane ubona ko zafumbiwe rwose.

Avoka ni zimwe mu mbuto zidakunze kuboneka hirya no hino mu gihugu, gusa leta igenda ikora uko ishoboye kose kugira ngo ishishikarize nibura buri muturage kugira igiti kimwe cya avoka.

Abagabo babiri barimo kuvomerera imbuto zabo, bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba ndetse bakoresha uburyo bugezweho bwo kuvomerera bakoresheje umupira uzamura amazi.

Umubyeyi ukenyeye igitenge wambaye agashati akaba ateze n'igitambaro, arimo kuvomera inyanya zihinze ku buso bunini rwose ndetse urabona ko ari nziza cyane mu minsi iri imbere azakuramo amafaranga akiteza imbere.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, arimo kuvomerera ibigori, ibyo bigori bisa nkaho byari bigiye kwanga, kubera ko ntabwo bitoshye, ndetse bisa nk'ibyabuze imvura.

Ubuhinzi bukwiye kwitabwaho ndetse bugatezwa imbere nk'ubu ngubu izuba iyo ryavuye, usanga abantu benshi bacika intege ndetse bakarekeraho guhinga, nyamara hari uburyo bwo kuvomera, bifashishije imipira ikurura amazi.

Umubyeyi bigaragara yuko ari umugore ushima Imana, ari kubagara utugori ariko akaba afite n'ipombo ahari agiye kuvomerera ibyo bigori yamaze kubagara.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu akaba yambaye n'ingofero, ari mu murima arimo kuvomera imboga, mu by'ukuri bikaba bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba.

Umuntu, wambaye umupira utukura, arimo gukora mu mazi azamuka, inyuma ye hari undi wambaye nawe umupira utukura na bote, bisa nk'aho barimo baravomerera imbuto bahinze, kuko ari mu gihe cy'izuba.

Umuntu w'umugore arimo kuvomerera imyaka ye ndetse bigaragara ko ari urusenda ruhinze ahantu mu kabande. Akaba ari gukoresha indobo y'umukara ndetse na mironko ari kujya adahishamo amazi, akaba yarayipfumaguye kugira ngo amazi ajye aza neza ameze nk'imvura iri kugwa.

Igishanga kitari kinini cyane gihinzemo umuceri ukiri mutoya, kiragaragaramo umuntu umwe urimo kwita kuri uyu muceri akaba ari kugenda awubagara.

Ikibuga kitagikinirwamo bigaragara ko cyarunzwemo ibitaka ndetse hakaba hari ibiti bihinguka hirya, by'umwihariko kikaba kitagikoreshwa n'abantu.

Umurima w'igishanga uri ahantu mu kabande bigaragara ko hari n'amazu atunguka ku musozi hakurya, ni umurima uhinzemo umuceri ukiri mutoya.

Ikibuga cyiza cyane gifite utwatsi tugufiya dutoshye ndetse kikaba kiri ahantu hitegeye ku gasozi, hagaragara ibicu byiza by'umweru n'ubururu ndetse n'ikirere gituje.

Inyubako y'amashuri, igaragara ko iriho imbere yayo abanyeshuri barimo gukina umupira, ndetse hakaba hari ikibuga kinini kirambuye, ariko kikaba kitagezweho.

Icyayi gihinze ku buso bugari bunini cyane, kikaba ari icyayi gisa neza kandi gitanga umusaruro uhagije, mu by'ukuri iki cyayi kikaba cyarafashije abaturage kwiteza imbere mu buryo bunyuranye.

Igishanga gihingwamo umuceri, kikaba kirimo umuceri ukiri mutoya, ndetse bigaragara ko nta gihe gishize uhinzwe. Iki gishanga kikaba cyeza umuceri mwinshi, ndetse kikaba gifite abahinzi barenga makumyabiri bagikoreramo.

Amaterasi y'indinganire atuma abaturage bahinga bakeza ndetse bakaba bishimira yuko Leta y'u Rwanda yatekereje ibintu nk'ibyo, bakaba bifuza ko yakorwa ahantu hose hari imisozi ihanamye.

Inyubako bigaragara ko zubatse mu buryo bumwe ndetse zikaba zarubakiwe abatishoboye, zikaba zubatswe ku mudugudu ndetse hagaragara umusozi uri hakurya yazo abantu bahingaho.

Umusozi munini cyane, ni umusozi uteyeho amatunda, ayo matunda akaba akiri matoya atarakura, gusa hejuru hagaragara umunara utwara insinga z'amashanyarazi.

Mu Rwanda hashyizweho gahunda yo guca amaterasi y'indinganire, ahantu hari ubutaka buhanamye, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bajye bahinga, ifumbire itamanuka yigendera itwarwa n'imvura.

Abantu barimo guhinga mu materasi y'indinganire, bakaba barimo guhinga bashyiramo ifumbire ndetse bareshyeshya ubutaka, bikaba ari ibintu byiza bizatuma bagera ku musaruro uhagije kandi ushimishije.

Ubuhinzi bwateje imbere benshi, gusa igihe cyose ugannye inzira y'ubuhinzi ni ngombwa ko ubanza kumenya ibisabwa byose kuko hari igihe usanga uzakenera gusasira ibyo wahinze cyangwa kubyuhira no kubitera imiti.

Umusozi mwiza cyane ufite ahantu hari n'igishanga gihinzemo umuceri, hakaba hagaragara inyubako hakurya zisakaje amabati.

Igishanga bigaragara ko kitagihingwamo ahubwo cyamezemo ibyatsi, bigaragara ko harimo umuntu uri gutunguka, uri kugendagenda muri icyo gishanga.

Ihene iziritse ikiziriko mu izosi ikaba yegeranye n'indi itaziritse, bigaragara y'uko izi hene zose ziri ahantu mu nzu.

Ingurube eshatu zibereye mu kiraro ndetse zikaba ari ingurube z'inzungu z'ubwoko bwiza, zifite ahantu zirira ndetse zikananywera amazi, ubu ni ubworozi bushobora ku guteza imbere.

Ingurube ifite amabwene ndetse n'amabwabwa menshi, ikaba iri mu kiraro cyubatswe neza mu buryo bugezweho ndetse kikaba gikoreye isuku. Ifite ahantu habugenewe irira ndetse ikanywera amazi.

Ihene nziza cyane y'umutamu ikaba iziritse. Ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ubundi yitwa igitare, iyi hene iziritse ku kiraro, icyo kiraro cyubakishijwe imbaho.

Ubushyo bw'inka z'inzungu bigaragara ko ziri ahantu zororerwa ndetse zikaba ari inka nziza cyane zitanga umukamo, by'umwihariko zikaba zifite abashumba bazitaho.

Ni mu kiraro cy'inka ariko imbere yaho hari ihene, iyo hene irimo kurya ibigorigori iri gusangira n'inka, biratangaje cyane kubona inka n'ihene bisangira, nyamara abantu twebwe ngo ntitukibishaka.

Abantu bagera muri batatu. Babiri ni abakozi bashinzwe kwita ku bidukikije. Undi umwe ni umuhinzi ndetse akaba n'umworozi. Akaba yoroye inkwavu ndetse yarazubakiye ibiraro byiza cyane bigezweho.

Ingurube zikiri utubwana ariko zikaba ari nziza bigaragara ko zavukiye hamwe ndetse zikaba zitaweho cyane, ni ingurube za kizungu z'ubworozi.

Inyana nziza cyane y'umweru irimo kurisha ikaba iri gusangira na nyina, aho nyina yibereye mu kiraro ndetse ikaba na yo irimo kurya.

Ingurube nziza cyane ifite ibara rijya kuba nk'umweru ikaba iri mu kiraro cyayo, harambitse ikijerekani inyweramo amazi ndetse ikaba irimo kurya ubwatsi bayihaye.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ifite icyumba, icyo cyumba kikaba kirimo igitanda, icyo gitanda kikaba gishashemo amashuka meza cyane.

Ibiraro by'ingurube ni ibiraro bigezweho byubatswe na koperative kugira ngo bazororeremo ingurube zo mu bwoko bushyashya bwa kizungu, bakaba bitegura gutangirira ku ngurube zirenga mirongo itatu.

Ingurube ni rimwe mu matungo ushobora korora, maze mu gihe gitoya ugatangira gukirigita ifaranga. Nk'uko bakunda kuyita, ngo kirigitifaranga. Kubera ko ingurube igira umusaruro mu gihe gitoya, bitewe nuko idatinda kubwagura cyangwa kubwegeka.

Umugabo ari iruhande rw'ikiraro cy'inka, akaba arimo kwitegereza inka ye ndetse akaba afite akantu k'umweru mu ntoki kameze nk'umuti agiye kuyiha.

Inka iri kurisha ubwatsi ikaba yibereye mu kiraro cyayo, gusa iranduye, amase yayigiyeho ku mubiri, ntago bayitayeho ngo bayisasire, mu byukuri inka iyo imeze gutya birayibangamira.

Ubworozi bw'amatungo yose ni ingenzi, kandi ni bwiza cyane. Kuko Abanyarwanda babivuze ukuri ngo, ukene ufite itungo rikakugoboka. Ni yo mpamvu uyu muturage we, yoroye inka, inkoko ndetse n'ingurube.

Umubyeyi w'umugore wambaye ijipo y'ubururu. Inyuma ye hicaye umwana uwo mwana akaba ariwe ufite agakoni mu ntoki ihene nyina ari kuzirika ni imikara zose imwe n'inkuru ebyiri ni intoya.

Inka nziza cyane y'umukara yabyaye inyana isa na nyina ndetse zikaba ziri mu kiraro, ubona ko bazisasiye amajangara mu by'ukuri bikaba ari ibintu byiza cyane.

Inkoko y'isake yegeranye n'indi nkokokazi, zirimo ziragenda mu muhanda, zikaba zegereye inzu y'umuturage, iyo nzu ikaba ihomesheje umucanga ariko ahagana hasi yarahuye n'ubukonje.

Ingurube yibererereye mu kiraro cyayo, ikaba irimo gushaka icyo kurya ndetse bakaba nta bwatsi bayisigiye, hari ikintu kimeze nk'ikidebengeri gishyirwamo ibyo kunywa byayo.

Yaziritse ikiziriko cy'umweru mu izosi, ikaba iri kureba mu cyerekezo kimwe, ndetse ikaba ifite amabara y'umukara n'umweru, bigaragara ko aho bayiziritse nta bwatsi buhari bwo kurisha.

Ihene ni itungo rigufiya ndetse umuntu ashobora korora agatera imbere mu rwego rwo hejuru kubera ko zishobora kugurishwa zikajyanwa mu mahoteli bityo umuntu akiteza imbere.

Abaturage bahinga ndetse bakanorora inka basuwe n'abajyanama, bakaba baje kureba uburyo inka zabo zitaweho, izo nka ni nziza cyane ndetse zose ni inzungu cyangwa se ni iza kijyambere.

Umuntu w'umusore arimo kureba inkoko azitegereza gusa yambaye ibirenge bisa nk'aho aje mu kiraro cy'inkoko aje kuzigaburira, izi nkoko zose ndikubona ari inyarwanda, zirimo gutora neza nta kibazo na kimwe zifite.

Ingurube ikiri ntoya ariko itari ikibwana, irimo kona. Ikaba yavuye mu kiraro cyayo, ndetse ikaba iri iruhande rw'insina.

Intama ni imwe mu nyamaswa zikunze kugira imyitwarire yazo, ku buryo rimwe na rimwe usanga iyo zigenda ziyoborwa n'intama imwe iri imbere.

Ihene ebyiri ziziritse mu gisambu zikaba zirimo kurisha ndetse iruhande rwazo hari urutoki, urwo rutoki rukaba rufite ibitoki ariko bitoya.

Ihene ziri mu gihuru. Zirimo kurisha zirasa neza. Hari uziragiye ndetse bikaba bigaragara ko ari nyirazo. Izi hene zose zifite amabara asa wagira ngo zivuka kuri imwe.

Umubyeyi w'umugabo ari kumwe n'umugore we, bari imbere y'ikiraro k'inka umugabo afashe utwatsi, ndetse hari n'umwana na we wafashe utwatsi agiye kuduhereza inka, bafite inka nziza cyane z'ingweba.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane, iyo woroye inkoko by'umwihariko izitanga amagi ushobora gutera imbere mu gihe gitoya ndetse ukabona n'amagi yo kwirira no guha abana bawe.

Umuntu bigaragara ko ari umusore ukiri mutoya afite inkoko yoroye akaba arimo kuzigaburira, izi nkoko zose ziri imbere y'inzu ihomesheje ibyondo.

Ingurube nziza cyane yambaye iherena ndetse ikaba iri mu kiraro cyayo, ni ingurube bigaragara ko iri mu bwoko bw'ikinyagazi ikaba ibwegetse.

Inkoko iri mu muhanda irimo kugenda bigaragara ko iri gutaha cyangwa se ikaba iri gutora gusa ni inkokokazi ariko igaragara nk'ishaje ubanza itagitera amagi menshi.

Inkoko ebyiri ziri mu murima zirimo ziratora ndetse aho ziri harunze ibiti byavuyeho ibishyimbo, bigaragara yuko uwo murima wamaze guhingwa ukaba ugiye guterwamo iyindi myaka.

Umugezi unyura hagati y'imisozi ibiri ndetse bikaba bigaragara ko hari n'ishyamba riwegereye, uyu mugezi ukaba ukunda kuzura mu gihe cy'imvura ukaba wakangiza byinshi.

Pikinnyeri, ni ahantu habugenewe. Hari imbuto zitandukanye, zitegurwa zigashyirwa mu bihoho byabugenewe. Ndetse zikavomerwa neza ku gihe zikitabwaho, hanyuma zikazajya gutebwa ahabugenewe.

Ibirayi birunze hagati y'ibindi bidakuye, bikaba biri kugaragaza uburyo ki ibyo birayi byera cyane gusa ibyo bitarakurwa biratoshye cyane ndetse bifite amababi menshi, bigaragara ko bitarera.

Umugezi umanuka unyura hagati y'imirima, ukaba waratwaye ibintu bigiye bitandukanye, ndetse ukaba waragabanyijemo umurima inshuro ebyiri.

Hari imboga z'ubwoko butandukanye; gusa hari iziba zitazwi n'abantu benshi. Nk'ubu hari uruboga bita shufureri ariko ntiruzwi n'abaturage bose bo mu rwanda.

Umurima uhinzemo ibigori ariko byamaze gusarurwa, ukaba warahinzwe kugira ngo uzaterwemo indi myaka ariko ibigori bagiye babibagara, bigaragara ko ibyo bagiye guhingamo bizazamukiraho.

Amatunda meza cyane yatukuye ubona ko nta kibazo na kimwe yigeze ahura na cyo, akaba yazanwe ku isoko. Umuntu ari kuza akaguraho ayo ashoboye, akajya kwirira cyangwa akajya gukoramo umutobe.

Pepeniyeri ni ahantu habugenewe bazana imbuto bakazihumeka hanyuma bakazitegura neza bakazishyira mu bihoho byabugenewe kugira ngo niziterwa zere kuzagira ikibazo cyo kuma.

Ahantu ubona ko ari mu murima uciyemo ibyobo, ibyo byobo bikaba biciye ku murongo ndetse bikaba biteganye, bigaragara ko hagiye guterwamo imbuto.

Imbuto z'amatunda zihombetse ahantu heza cyane, ubona ko ari imbuto nziza rwose ku buryo uziteye mu gihe gitoya zaba zatangiye gukura, zigashora imizi.

Puwavuro ni imbuto zihingwa zikitabwaho, bityo zikagira uruhare mu guteza imbere uwazihinze, izi kandi zikunze kwifashishwa mu guteka ibiryo by'umwihariko zikaba zibihumuza.

Gereveriya ni ibiti bikunze kuvangwa n'imyaka; bigaterwa mu ntangiriro z'umurima mu mpande cyangwa ku mutwe. Ibi biti bizwiho gutanga imihembezo yifashishwa mu gushingirira ibishyiyimbo, ndetse hakaba havamo n'imbaho zikora ibikoresho bitandukanye.

Amashu ni zimwe mu mboga zihingwa mu kabande. Iyo ari mu gihe cy'izuba barayavomera, kugira ngo yere.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye ndetse hakaba hagiye hateyemo n'ibiti, ibyo biti bikaba ari birebire ndetse bikaba bigaragara ko bituma habaho ubutaka butagira isuri.

Ni ku isoko, hari abacuruzi baje gucuruza imboga z'amashu. Izi mboga z'amashu, ni nziza, ni nini cyane. Gusa hakaba hari, n'abandi bantu bari hirya mu isoko, na bo bari kugura ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Umugabo afite imihembezo mu ntoki ndetse bamwe bakunda kuyita imishingiriro, arimo gushingirira ibishyimbo bikiri bitoya kugira ngo bizazamukire kuri iyo mihembezo.

Imbuto zirunze ahantu hamwe, bigaragara ko zamaze gusarurwa, zikaba zitegereje kujyanwa ku isoko kugira ngo abaguzi bazibone ndetse babashe kuzirya.

Umurima uteyemo ibishyimbo, ibyo bishyimbo bikaba birimo kumera bikiri bitoya ndetse bigaragara ko biteye mu buryo bwa kijyambere kuko bigiye bitegeranye cyane.

Inyubako y'umuturage usanzwe ifite imbaho z'ubururu, iteye umucanga hejuru yaho hakaba hamanitse dekoderi ndetse hakaba hanyura insinga z'umuriro w'amashanyarazi, inyuma y'iyi nzu hari akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage gukorera hamwe ibintu byose nk'ubu ngubu hashyizweho gahunda yo gukora ubwanikiro bw'ibigori ku buryo igihe byeze buri muturage wese azana kuri ubwo bwanikiro, hanyuma umusaruro ukazafatwa ukagurishirizwa hamwe.

Ubuhinzi bwa sereri bushobora kuguteza imbere. Sereri nubwo mubona ari utuntu dutoya ndetse rimwe na rimwe mujya kutugura mukatugura makeya, umuhinzi waduhinze akuramo amafaranga menshi, iyo yihuje n'amasoko agiye atandukanye.

Inka ifite ibara ry'umweru n'umukara, iziritse ku giti ndetse hari umuntu urimo kuyishima, bigaragara ko ari umushumba wayo, gusa ni umugore akaba ateze n'igitambaro.

Umuntu bigaragara yuko ari umuganga w'amatungo ari gufata inka, ndetse akaba agiye kuyivura ariko hari undi muturage wikokoye wambaye ubusa hejuru, umufashije iyo nka.

Umuganga w'amatungo ari gutera urushinge inka. Iyo nka isa ibara ry'umweru, ndetse ikaba iri imbere y'inzu ahantu mu twatsi hari n'akayira gatambuka kagenda.

Umuganga w'amatungo arimo gutera urushinge ihene, iyo hene ni ihene nziza cyane, ndetse ikaba ifite abana bari hirya, batari kugaragara.

Umugabo w'umuganga arimo kugura imiti agiye gutera mu bihingwa, bivuga y'uko ari umuganga w'amatungo cyangwa se abo twita ba veterineri.

Umugabo bigaragara yuko yambaye isarubeti, akaba aragiye inka mu rwuri, ni mugabo wambaye bote, ndetse izo nka zikaba ari nyinshi, muri make ari ishyo ryazo, ziri mu mabara y'umukara ndetse n'andi y'isine.

Inyamaswa ikomeye cyane ndetse ikaba ari ikirura, irimo iragenda mu gihuru ikaba iri guhunga, bigaragara yuko ishonje ishaka umuhigo.

Inyoni y'umukara ifite isunzu ry'umutuku ikaba yihagarariye ku giti gifite amahwa cyitwa umuko. Akaba ari ahantu muri neca, bigaragara ko ushobora kuhatemberera ukirebera ibyiza nyaburanga.

Imbwa nziza nziza y'umushishe, ifashe akabeba mu kanwa, ikaba imaze kugakura mu gihuru, iri kwirukanka ndetse bigaragara y'uko yamaze kukica, ikaba igiye kukajyana ngo igatapfune.

Agacurama ni inyamaswa iri ubwoko bw'igisiga, kandi ikaba mu bwoko bw'ibinyamabere, bitewe n'uko iguruka nyamara yitwara nk'ibinyamabere bisanzwe, kuko yonsa abana bayo.

Impala ni inyamaswa ikunze kugira ibara ry'umweru n'umukara ndetse ikaba ari inyamaswa ikurura ba mukerarugendo benshi kuko ifite uburyo iteyemo bwihariye.

Akanyoni keza cyane gafite amabara asa neza. Gahagaze mu ndabo zisa neza. Hari ikirere gikeye hari akazuba k'umuseso bisa nk'aho ari mugitondo.

Inyoni nziza cyane iri mu giti; ifite ibara ry'umukara n'umweru, ikaba izwiho nk'igikona. iyi nyoni ikunda inyama ndetse ikunda kurya amasabuni.

Ihene nziza cyane, iri mu gihuru bigaragara ko irimo kurisha ndetse ahantu iri rwose hari ubwatsi bwiza, ariko isa n'iyikanze kuko irimo kureba hejuru nk'igiyeye kwiruka.

Abantu benshi bakunze kugirango ingagi zisa n'inkende ariko ntago zisa nta nubwo zingana, inkende zibari ntoya ndetse zurira ibiti, ariko ingagi ntizibikora.

Inkende eshatu cyangwa se ingagi, zicaye ahantu hamwe zikaba zibereye mu ishyamba ryazo. Bigaragara yuko ziri kureba mu byerekezo bitandukanye.

Inkende zakoze inama, zikaba ziri mu giti, icyo giti zirimo ni igiti gifite amashami maremare atambitse, izo nkende zose bikaba bigaragara ko ari Izo mu muryango umwe.

Inguge ni inyamaswa yitwara nk'abantu, ikaba igira imyitwarire mirongo irindwi na gatanu ku ijana y'abantu, ndetse ikaba irya ibiryo bimwe na bimwe bihuje n'iby'abantu.

Ihene bigaragara ko ari imishishe bitewe n'uburyo zisa neza ndetse zikaba zibyibushye, zitaweho zikaba zigiye guhabwa abaturage.

Inkende ebyiri cyangwa se inguge ziri muri pariki zikaba zihagarariye zibereye ku mashami y'ibiti, zikaba zikunze gukurura ba mukerarugendo.

Inkende ebyiri zihagaze ku ishami rimwe ry'igiti ndetse bigaragara ko hari icyo ziri kwitegereza, izi nkende zose zirasa ndetse ni izo mu bwoko bumwe.

Inyoni ihagaze ku giti, icyo giti cyatonzeho urume kimeraho ibyatsi ku mubiri wacyo, ubundi ibi ntubikunze kubaho, gusa rimwe na rimwe usanga byarabaye ahantu hari ibiti byakuze cyane.

Inkende zakoze ubusabane zigaragambije zirikwigendera muri kaburimbo, ndabona ari nyinshi cyane bigaragara ko nta n'imodoka iri gutambuka gusa utu tunyamaswa tujya dutangaza abantu cyane.

Igihuru kirimo ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'ibyatsi byinshi cyane. Ni igihuru bigaragara ko kugira ngo bagihingemo babanza kugitema.

Impara ni inyamaswa zikunze kuba muri parike kuko nta handi hantu wapfa kuzisanga, kandi zibaho mu buzima butangaje cyane kuko ntago zihiga n'izindi nyamaswa.

Agasumbashyamba ni inyamaswa idakunze kuba ahantu aho ariho hose kuko ikunze kwibera mu mashyamba manini cyane ndetse by'umwihariko muri za parike.

Intare ni inyamaswa y'inkazi cyane ndetse ikaba izwiho kuba ariyo itegeka izindi nyamaswa zose. Mu by'ukuri iyi nyamaswa ikunze kwibera ahantu haboneka inyama gusa.

Isha ni inyamaswa izwiho kwirukanka cyane ndetse ikunze kuba mu bibaya, ntago ikunda kuba mu misozi, ni inyamaswa ifite uduhembe twigororonzoye.

Igisiga gifite amabara atukura, umukara, umweru, ndetse kikaba ari igisiga kidasanzwe, kirimo kuguruka mu kirere ndetse gifite umuvuduko uteye ubwoba.

Igisiga cyitwa ikiyoni cyangwa igikona, kiri ahantu mu twatsi kikaba kiri kureba hejuru bisa nkaho kigiye gutangira kuguruka.

Ingwe ni inyamaswa itinyitse cyane, ifite mu maso hasa nk'ah'ipusi ariko iryana kurusha inyamaswa zose zibaho, ndetse ni inyamaswa y'ingome cyane, by'umwihariko iyo uramutse uyiyenjejeho.

Inyamaswa nyinshi cyane zirimo impara, imparage, udusumbashyamba, ishya n'izindi nyinshi. Zikunze kuba mu Rwanda ndetse zikaba zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize. Hanyuma bakaza kwihera ijisho ibyo biremwa by'imana.

Inyoni nziza cyane isa neza ihagaze ku turabo twiza dufite amabara atukura ndetse n'ay'umuhondo, igitangaje iyo nyoni na yo irasa neza neza n'utwo turabo.

Mu Rwanda haboneka inyamaswa nyinshi cyane gusa zikunda kuboneka muri Parike y'Igihugu ya Nyungwe, ni yo mpamvu umwaka ku mwaka abantu baturuka hirya no hino bakaza kuzisura.

Inyoni cyangwa igisiga kitwa igikona, cyangwa se ikiyoni, ni inyoni izwiho kuramba imyaka myinshi, ku buryo iyo umuntu afite imyaka myishi, bamugereranya n'iki gisiga.